Inama yitabiriwe n'abiganjemo abaminisitiri mu gihugu cy'u Rwanda yateranye biga ku ngingo nyinshi zazamura igihugu cy'u Rwanda, umufotozi ari inyuma yabo arimo kubafotora

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG, cyazinduye abakozi bacyo kugira ngo batunganye amapoto bageze amashanyarazi ku baturage.

Ikiraro cyubatswe hejuru y'umugezi kugira ngo byoroshye urujya n'uruza rw'abaturage baturiye uyu mugezi ndetse n'ubuhahirane muri uyu murenge.

Umumotari uhetse umugenzi batambaye Kasike, bishe amategeko y'igihugu bagendera mu muhanda wegeranye n'ishyamba, hepfo yawo hari amazu abantu batuyemo.